Aantu benshi ab'imbere bicaye ndetse ab'inyuma yabo bahagaze, bambaye imyenda isa hasi amapantaro y'imikara bose bafite impapuro mu ntoki, inyuma yabo hari igipapuro kiriho ikirangantego cy'u Rwanda ndetse inzu bari imbere yayo ifite ibara ry'umweruru.

Inzu iherereye mu Mujyi wa Kigali, ikorerwamo ibikorwa bya leta bitandukanye. Irimo abantu batandukanye: abagore, abagabo. Abagabo bicaye ku ntebe n'abagore. Harimo uducupa tw'amazi turambitse ku meza, ndetse n'umugabo urimo urabakoresha inama.

Abagore bane batatu muri bo bambaye amakanzu undi umwe yambaye ikositimu y'abagore bifotoreje hagati y'amadarako abiri rimwe ririmo ikirango cy'igihugu irindi rifite amabara yubahiriza igihugu ubururu, umuhondo, icyatsi ririmo n'izuba n'ifoto y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda perezida Paul Kagame.

Inzu irimo parafo nziza iteye amarangi y'umweru, irimo amarido, ibirahure, sima hasi irimo imeza zirambitseho uducupa n'amarido, irimo abadamu n'abagabo bambaye amakanzu n'abagabo bambaye amakote, imipira.

Abantu benshi biciwe mu byiciro bitandukanye hari abicaye imbere ari benshi cyane, hari n'abandi bicaye ku ntebe y'imbere, hakaza abicaye inyuma ku mirongo ibiri ihera bane bane, abambaye imyenda y'ubwoko butandukanye y'imikara imyeru ndetse n'imituku.

Umunara muremure uriho insinga z'imikara tukaba tubona harimo ikirere cy'umweru n'ubururu, uwo munara akaba ari umunara muremure w'amapoto y'amashanyarazi.

Abantu benshi bicaye mu nzu ku ntebe harimo abagore n'abagabo, abicaye ku ku murongo w'imbere bafite uducupa tw'amazi turambitse ku meza itukura, inzu barimo ifite ibirahure isize irangi ry'umweru mu imbere.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara, karuvati n'ishati y'umweru, amarinete, imbere ye hicaye undi mugore wambaye ishati n'ijipo wicaye ku ntebe y'umukara, hirya yabo hari abandi bantu nabo bicaye bari kumwe nabo.

Inzu iri mu mujyi wa Kigali irimo ibitambaro by'imyeru, ibirahure yicayemo abantu abadamu, abagabo hafi hari umugabo ubanza wambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru na karuvate, imbere ye hari agacupa k'amazi hirya ye hari abandi bagore n'abagabo bose bicaye.

Umugabo wambaye umupira w'umweru n'ipantaro n'inkweto ufite mikoro mu ntoki wambaye amarinet uhagaze imbere y'abantu muri pasiparume imbere ye hari abantu bicaye m'itete ryubatse risa umweru n'ubururu imbere yabo hari uducupa tw'amazi turambitse ku meza ku bitambaro.

Itente ryubatse nu mugi wa Kigali, riri gukorerwamo inama ijyanye n'ibikorwa bya leta, itete ryubakishijwe irangi ry'umweru, amabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, hicayemo abadamu, umugabo uhagaze ufite mikoro, uhagaze imbere y'imeza.

Itangazo ry'inama ikomeye izaba iri kuvuga kubirebana n'ikoranabuhanga; izabera i Kigali mu Rwanda ku itariki makumyabiri n'enye kugeza makumyabiri n'esheshatu gashyantare bibiri na makumyabiri na gatanu, rikaba ryashyizwe hanze n'ikigo cy'imyuga gikunze kwitwa RDB.

Abantu benshi cyane bicaye mu ntebe z'imikara, abandi bicaye mu ntebe zifite imisego y'imyeru, harimo abagabo bagiye bambaye amakoti y'amoko atandukanye, abambaye amakoti y'umukara, mo imbere harimo amashati y'umweru, abandi bafite amashati y'imikara.

Inzu nziza iteye irangi ry'umweru, irimo abadamu babiri; umudami ufite micro, imbere ye hari agacupa k'amazi, wicaye ku ntebe, imbere ye hari ameza afite igitambaro cy'umweru. Arimo aravuga ijambo. Ari kumwe n'undi mudamu wambaye ikanzu y'umweru n'agatambaro k'umutuku imbere mu gatuza.

Abagabo bicaye mu nzu, harimo umwe wambaye ikoti ry'umukara, ishati y'umweru mo imbere y'ikote, afite mikoro arimo aravuga ijambo, hirya ye hari undi mugabo bicaranye wambaye karuvati, inyuma ye hari abandi bagabo, imbere yabo hari utwapa turambitse ku meza, hirya yabo hari icupa.

Hari igitanda kiri mu nzu ikodeshwa amadolari magana atanu mirongo itanu buri kwezi ikaba iherereye Kabeza.

Kampani iherereye mu mujyi wa Kigali ikoresha ikoranabuhanga yubatse neza iteye amarangi y'umweru, ifite ibirahuri bisa neza mu mbuga yazo hari pasiparume n'indabyo zindi nziza cyane hepfo hari ibiti birebire.

Igiti gisa neza cy'ubururu n'umweru, inyanza ituje, urugomero rw'amashinyarazi, rurimo abakozi barenga batandatu, abambaye amajire, uwambaye ishati uhetse agakapu n'ipantaro, urugomero rufunze neza rurimo ibyuma byubatse bisa ubururu, umukara n'umweru.

Inzu yakonoshi iteye irangi ry'umuhondo, imbere yayo yubakishije urupangu rw'amatafari ruriho ibyuma inyuma yayo hari ipironi ririho n'insinga nyinshi cyane hepfo y'aho hari ibiti birebire cyane.

Umugabo wambaye isarubeti y'akazi inkweto z'umukara ahagaze kurwego rurerure cyane rukomeye rw'icyuma afite urunsinga mu ntoki rw'umukara arimo arakora umuriro wamashanyarazi ahantu wapfuye.

Inzu iherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro yubatse neza ifite amarangi menshi, amarangi y'umuhondo ndetse n'irangi ry'umweru, ifite amabati asakaye neza hari abantu bayicaye imbere ku ntebe.

Inyubako ndende iriho izina rya sanilamu nabyo ni ubwishingizi bufasha abantu, bugoboka abantu mu bihe by'akaga ndetse hari umugabo wambaye ingofero y'icyatsi, yambaye n'ishati ari kugenda nkuhagana, hari moto itwaye umugenzi hari n'undi muntu wambaye umupira w'ubururu uri kugenda imbere y'aho hari ibiti n'imikindo.

Inzu nziza cyane ifite isuku, irimo amarangi y'umweru, parafo z'umweru, hasi hari amakaro y'umukara, ifite inzugi nziza cyane zikomeye zirimo utubara tw'umweru, hagati irimo ababyeyi bagiye bicaye.

Umugore wambaye ishati itukura, ingofero mu mutwe y'umukara, wicaye ku ntebe y'umukara, imbere ye hari ameza n'impapuro z'umweru, ari kumwe n'umugabo wambaye imyenda y'umukara, ishati y'umweru, ikaramu, arimo aratanga serivise.

Abagabo babiri bakuze umugabo uri hino yambaye ikoti ry'umukara ishati mu imbere, umugabo wo hirya yambaye amarinete arimo areba umugabo uri imbere ye, uwo mugabo yambaye ikote mu imbere akantu k'umukara.

Abapolisi babiri bambaye imyenda y'umukara inyuma yabo ku myenda bambaye handitseho polisi, bambaye ingofero z'umukara n'inkweto z'umukara, bafite moto y'umweru, amapine y'umukara, imbere yabo hari umuhanda n'inzu zubatse.

Abanyeshuri bambaye imyenda y'umweru ishati n'ipantaro ya kacyi, barikumwe n'abapolisi bambaye udupfukamunwa n'abanyeshuri bambaye udupfukamunwa, abapolisi bambaye imyenda y'umukara hafi yaho hari isafuriya na gaze n'umuriro waka.

Umupolisi wambaye imyenda y'imikara n'ingofero kuri iyo myenda yambaye hariho imirongo ibiri, ifite amabara atandukanye n'imyenda yambaye, imbere hari undi mugabo wambaye ingofero n'umupira.

Umugabo wambaye karuvati itukura ufite mikoro mu ntoki y'umukara, wambaye ishati y'umweru utubara duto duto tw'umukara, wambaye isaha y'umukara. Uhagaze inyuma ye hari imodoka ebyiri, imodoka y'umukara ndetse n'imodoka y'umweru.

Umudamu ubyibushye cyane wambaye imyenda irimo amabara atandukanye ay'umweru ndetse n'andi, hirya ye hari undi mudamu uhagaze inyuma yabo hari ikintu gifite ibara ry'ubururu.

Abantu bane bicaye mu nzu ku ntebe z'imikara; harimo abagabo ndetse n'abagore; imbere yabo hari umugore n'umugabo bicaye bari kurebana; umugabo wambaye amarinete, ishati ndetse n'ikoti ry'umukara na karuvati; hirya ye hari umugore wambaye nawe we ikanzu y'umukara.

Umuhanda mwiza uri mu Karere ka kicukiro uva hano nyanza ugana gatenga urimo imodoka nziza y'umweru umunyonzi utwaye umufuka ku igare hafi yaho hari ibiti birebire byiza bitanga amahumbezi ndetse n'umuyoboro w'amazi .

Abagore bane batatu muri bo bambaye amakanzu undi umwe yambaye ikositimu y'abagore bifotoreje hagati y'amadarako abiri rimwe ririmo ikirango cy'igihugu irindi rifite amabara yubahiriza igihugu ubururu, umuhondo, icyatsi ririmo n'izuba n'ifoto y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda perezida Paul Kagame.

Imodoka yahariwe gutwara abagenzi ibavana ahantu hamwe ibajyana ahandi, ifite ibara hejuru ry'ubururu umukara, ibirahuri bikomeye cyane mo imbere harimo utwuma tw'umuhondo abagenzi bahagazemo bafataho.

Imodoka ntoya y'ivatiri y'umweru ifite ibirahure irimo abayitwaye, ifite amapine y'umukara iri mu muhanda wa kaburimbo, hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro, imodoka yahariwe kwigisha abantu ibijyanye n'ibinyabiziga.

Umuhanda w'amapave urimo abantu bagenda harimo abagore n'abagabo ndetse kuruhande hari abandi bicaye hirya hari inzu nziza yubatse ya etaje ndetse n'ibiti by'indabo.

Sitade yubatse mu mugi wa Kigali i Nyamirambo, yubatse neza kandi ifunze neza na senyenge n'ibyuma bikomeye, isakaye n'amabati akomeye. Irimo abantu barimo barakora siporo, abambaye imyenda y'ubwoko butandukanye: yaba iy'umutuku, yaba iy'umweru ndetse n'indi.

Umuhanda wa kaburimbo uri mu mugi wa Kigali ugana mu mugi harimo umushoferi utwaye imodoka imbere ye hari umumotari n'inyuma ye, umuhanda urimo amatara, ibiti byiza, hafi yaho hari aho baparika imodoka hahagazemo umuntu n'undi hafi yaho ku ruhande, hafi yaho na none hari aho amazi aca.

Icyapa cyerekana inzira y'abanyamaguru cyashizweho na leta, mu buryo bwo kubungabunga ndetse no kongera umutekano wo mu muhanda kugira ngo utwaye ikinyabiziga ahagere abanze yitondere niba koko ntamuntu ugiye kwambuka.

Ni mu isoko ry'ibiribwa harimo abantu bagaragara ko bari kugurisha, ndabona imboga zitandukanye, inyuma yaho ndahabona ibindi bintu biri gucuruzwa ,ndahabona ikimeze nk'umutaka ,ndahabona hirya ibiti ndetse hirya yaho hari n'inyubako.

Inzu yubatse mumugi wa Kigali mukarere ka kicukiro umurenge wa kanombe, Ninzu zubatse neza inyinshi zifite amabati atukura zikaba zisize namarangi y'umweru hirya yaho hagiye hari ibiti bigiye birimo ndetse zigiye zifite nibipangu zimwe murizo.

Inzu nziza ya etage igeretse isakaye neza ifite ibirahure hari ibyuma bigiye bitangatanze ku mpande, hafi yayo hagiye hari ibiti bihateye, hirya yayo hari andi mazu ahubatse meza.

Inzu nziza iri mu mugi wa Kigali yahariwe ibikorwa bitandukanye haba inama za leta hafi yayo hari imodoka ebyiri n'abantu bahahagaze.

Inzu nziza yubatse mu mujyi wa Kigali yubakishije amatafari ahiye, hariho utubara tw'umweru, inzu hejuru yayo isakaje amabati atukura, hari n'indi nzu y'umweru iri hirya yayo n'inyuma indi nzu ifite ibirahure n'utubara duto tw'umweru tugiye turi mu birarahuri.

Inzu nziza iri mu mugi wa kigali, iri gukorerwamo ibikorwa bya leta, isize irangi ry'umweru ikomeye, hafi yayo hari imodoka nyinshi zitandukanye z'umweru, hari n'abantu benshi, hari n'umuhanda wa kaburimbo.

Inzu nziza iri mu mujyi wa Kigali mu karere ka kicukiro, iteye amarangi atandukanye ibara ry'umuhondo, ibara ry'umweru, ifite ibirahuri hasi by'umukara, hejuru hari ibirahuri by'umweru, hejuru yayo hari insinga, imbere yayo hasi hari imodoka itukura.

Inzu nziza iri mu gipangu igipangu cyubakishije ibyuma by'umukara, ifite amadirishya y'umukara, iteye irangi hafi yayo hanze hari umuhanda uriho ibiraro byubakishije ibintu by'ibisima.

Inzu nziza iteye irangi ry'umweru, amabati y'umutuku, ikorerwamo serivisi za Leta, hanze yayo haparitse imodoka y'umukara ifite amatara y'umutuku n'indi modoka y'umweru, ibiti byiza, umunyonzi uri gusohoka mu rupangu.

Umuhanda wa kaburimbo uri mu mujyi wa Kigali, urimo amabara y'umweru yerekana aho abanyamaguru bambukira n'utundi tubara tw'umukara, hirya yaho hari abamotari bari kugenda mu muhanda wo hirya batwaye moto babiri undi utwa umugenzi.

Umuhanda uri mu mugi wa Kigali ugana mu mugi urimo imodoka, feruje ziri kwaka, ibiti hafi y'uwo muhanda birebire indabyo ndetse n'abantu barimo baragenda hafi y'uwo muhanda bava ahantu hamwe bajya ahand,i hirya yaho hari izindi nzu zubatse akazu gasize irangi ry'umweru.